Umukobwa mwiza yambaye neza, itaburiye y'umukara, harimo ibara ry'umutuku, umupira w'umuhondo, yambaye ipantaro, afite ibitabo mu ntoki, arasa neza, arishimye, afite umusatsi wa natirere, yambaye amaherena, imbere ye hari icyapa cy'ubwishingizi, ni heza.

Abantu batatu bahagaze bitwikiriye umutaka w'icyatsi, inyuguti z'icyatsi, iz'umweru harimo ibara ry'ubururu ni beza baraberewe.

Abakobwa babiri, umwe afite isakoshi ku rutugu, afite udukapu mu ntoki, undi afite karoti mu ntoki, yambaye ijakete y'umukara, umupira w'umweru, arisukikije, yambaye linete, harimo kamera, ni heza, harashimishije.

Abantu babiri bari guseka, barishimye, umugabo amufashe ku rutugu, ni beza, ateze igitambaro, barashimishije, baranezerewe.

Icyapa cyiza kimeze neza, ni mpande enye, hashushanyijeho umuzungu, ni mwiza, yambaye neza, harimo ibara ritukura, umweru, ku ruhande hateye ibyatsi, ni heza hari ibiti byiza harabereye.

Mu kibanza hari imodoka nziza nini isiza ku cyapa, hariho umukobwa w'umuzungu, ni mwiza ufite imisatsi miremire, yambaye ishati y'umukara, ni heza.

Icyapa kiriho abantu beza abazungu bari guseka bafite imisatsi y'imyeru hariho amatara ni beza barashimishije kubareba.

Icyapa kiri ku muhanda kirimo amabara, ibara ry'umweru, ubururu, hafi hari ibiti birasa neza.

Isoko ririmo imyenda myinshi myiza y'amabara atandukanye, amashati, imipira, irazinze biri mu kabati iramanitse, harimo abantu babiri niheza harashimishije.

Hakurya y'umuhanda hari ibipupe bimanitseho imyenda inyuma yabyo haru umuntu yambaye umupira wumukara ipantaro itukura harigiti cy'umukindo hari inzu bahagaze ihande ibara ry'cyatsi imodoka irasa neza iratukura hari umugabo uri kugenda wambaye neza biraberewe.

Inkweto nziza nyinshi z'ubwoko bwose zitandukanye amabara, umukara, umweru, umutuku, igihogo, ni nziza zirashimishije.

Akabati ni keza karashimishije harimo imisego ipanze neza amabara atandukanye harimo: umutuku, icyatsi, umweru, ubururu niheza hashimishije.

Akabati ni keza, karasize, hasi hameze neza, harimo imyenda, iramanitse, ni myiza, iteye neza, ifite amabara atandukanye umukara, umutuku, umuhondo, ubururu n'andi mabara menshi ni byiza.

Abantu babiri bahagaze, barasa neza, bambaye neza, barashimishije, bafite terefone mu ntoki, hari imyenda imanitse, ni myiza, amabara atandukanye, ni heza.

Isoko ry'imyenda ni heza harimo amapantaro, imipira, amashati, ibikapu ni byinshi byiza bitandukanye; birashimishije ni heza.

Isoko ry'imyenda myiza amabara atandukanye, umweru, umutuku, umuhondo, umukara ni byiza birashimishije.

Akabati karimo imyenda amabara atandukanye, uduseke ni twiza, hari igitambaro cy'ibara ry'icyatsi n'umweru, ni heza harashimishije.

Umugore wicaye useka neza yambaye neza yisukishije inweri imbere ye hari ameza hari ikayi ari kwandika imbere ye hari imyenda myinshi itandukanye yamabara menshi meza.

Hari umukobwa uhagaze, yambaye neza ikanzu ndende, amanuye amaboko, arasa neza ari guseka; iruhande rwe hari imyenda y'amabara menshi atandukanye, arakeye.

Ni heza harimo igipupe bambitse imyenda y'umukara, harasa neza, harimo imanitse, umutuku, icyatsi, umweru uvanze, ni heza harimo ururabo, harashimishije.

Abakobwa babiri bicaye, imbere yabo hari ameza, hariho impapuro, hariho mashini, ari kuyikoramo, arareba neza, inyuma ye hari imyenda itandukanye ifite amabara menshi, ni byiza.

Abantu babiri bahagaze bafite icyapa mu ntoki ni beza umugabo yambaye ishati y'icyatsi ipantaro y'umukara umukobwa yambaye ikanzu umweru uvanze ni heza, harashimishije hari imodoka iruhande rwabo ndende nziza.

Imodoka nziza y'umweru ifite karisoro, imeze neza, abagabo babiri bahagaze, bafite kontake mu ntoki, ni beza barashimishije.

Imodoka iri muri parikingi imeze neza, irakeye ifite ibara ry'umukara hagati no hasi hagana kumapine, irakeye imeze neza.

Imodoka ebyiri zihagaze, ni rava, zirasa neza, ni umukara, zihagaze kumatafari ashashe neza, ku nzu hasize irangi rya kacye, hariho icyapa cy'ubururu ni heza harashimishije.

Abagabo babiri barahagaze, iruhande rwabo haparitse imodokari, bakinguye umuryango, bafite akajerekani hejuru y'imodokari, barasa neza.

Imodoka ihagaze ni umweru, hari abagabo babiri bahagaze bambaye neza umukara, kake, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto zitukura, harimo ibara ry'umuhondo, ni heza, harashimishije.

Imodoka nziza, zirasa neza, ni rava, umukara, zirakinze, ninziza, zirahagaze, inyuma hari icyapa cy’ubururu ni heza.

Imodoka zirahagaze eshatu, hagaze abagabo babiri, bafite urufunguzo rwa kontake, bafite agakapu mu ntoki, barasa neza, imyenda y'imikara, ubururu, barakeye.

Mashini iri imbere hari amafaranga y'amadolari ni meza aravunjishwa hakavamo ayandi y'ingeri zose, abaturage bose bakayabona ho bakayakoresha uko babishaka ni meza.

Amafaranga menshi ni ibihumbi bitanu, arasa neza, ateye neza, arambuye neza, hariho umugore yikoreye, abandi barasarura icyayi ni beza.

hari indobo ebyiri zirasa neza ni umweru zirapfundikiye hariho ikiyiko harimo amandazi ni heza harashimishije hari irangi ry'ubururu hakurya hari umuntu uri kugenda hateye ibiti niheza.

Umugore wicaye aboshye inyweri, yambaye igitenge, imbere ye hari igikombe, harimo icyayi, hari amabara atandukanye umweru, ubururu, umutuku, iruhande rwe hari icupa rya Koka kora, afite terefone mu ntoki, ni mwiza.

Indobo nziza y'umweru ipfundikiye atari neza, harakanya harimwo keke harimo ibara ry'icyatsi ni heza hari amatafari yubakishije ahiye hari ameza ni heza.

Amacupa arateretse ari munzu harafunze harimo amazi ameze neza ateretse neza ni meza.

Umugabo uhagaze afite ijaga mu ntoki, afite ikirahure, kibaje mu giti, yambaye umupira w'umweru ari kureba mu kirahure, hari ibara ry'icyatsi, umweru, ibirahuri byubitse by'ibiti arasa neza ni mwiza.

Ni heza, harashimishije, harasa neza, hari abantu bicaye babiri, bambaye neza, imbere yabo hari ameza, hasa neza, hateye ibyatsi, ni heza.

Icyuma gitunganya amata, ubujerekani, inkongoro, ameza intebe, ni heza, haratuje, haratekanye, hameze neza.

Afite telefoni mu ntoki, ari kuyikoresha, ntabwo umubona neza, ntagaragara, haragaragara inzara ashyiraho, ameze neza, arakeye, harateye neza.

Terefone nziza, imeze neza y'umukara, yanditseho neza, umuntu uyifashe afite intoki nziza zirakeye, arashimishije, ameze neza.

Umukobwa uhagaze afite telefone mu ntoki, ari kuyitunga urutoki, araseka neza, yasokoje umusatsi, harimo ibara ry'umuhondo, ibara ry'umweru, ni heza.

Amafaranga menshi meza, atandukanye ni amadorari, barayavunjisha akavamo menshi agira imirimo akora igafasha benshi bakabaho neza.

Umuntu afite amafaranga mu ntoki ni menshi meza, arasa neza, aje muri banki kubitsa, ni heza, hasa neza, araberewe, harashimishije.

Amadolari ni meza arashimishije, uyafite uyashyira muri mashini ukayabara, ukitegereza neza, ukareba ko ari mazima, nibyiza birabereye.

Umukobwa afashe amadorari mu ntoki arambitse hasi ku meza arafunze neza na fimbo ararambuye ni byiza birashimishije.

Ibiganza bifashe amafaranga, n'amadorari meza arashimishije arasa neza, aravunjishwa akavamo ayandi menshi asataguye ukabasha kuyahahisha agakora byinshi bitandukanye ni heza.

Amabara menshi atandukanye y'amafaranga ararambitse, asa neza, n'ay'ibihugu bitandukanye ni meza arashimishije.

Ibiganza bifite amafaranga bari kuyahererekanya aratandukanye, ni meza menshi atubutse ni heza.

Inzu nziza nini ndende irasa neza, imiryango irakinguye, isize irangi, amabara atandukanye, hariho ibyapa, harimo inyuguti, hari umuntu ushushanyijeho arasa neza, ni heza.

Inzu ndende nziza yubatse neza, ni ngari hariho icyapa ni cyiza hateye igiti kirasa neza haratuje hameze neza.

Inzu nziza, ndende, ngari, irasa neza, irasize irange, imiryango irakinguye yombi, ni heza, harashimishije, hararatuje.

Mu ibarizo ni heza, hari intebe nziza, zirasize, ameza, haratuje hameze neza, harimo ibara ritandukanye, harimo umucyo ni heza.

Mu nzu ni heza, hasa neza, akabati ni keza gasize irange, harimo ibitabo, hejuru harateguye indabo ni heza, idirishya rirakinguye harashimishije.

Muri saro, harimo intebe z'amadiva, ni nziza, hagati hari akameza,, hateretse injerekani, hari akabati, harimo ibintu byinshi byiza, bishimishije.

Mu nzu harateguye intebe zitukura, ameza y'umweru harimo amabara atandukanye harasa neza harashimishije.

Mu nzu hateretsemwo intebe, zifite imisego, ni imyanya itatu n'izindi ebyiri, harasa neza, harakeye, harimo amakaro, ni heza.

Intebe nziza, zirasa neza, ni umukara, zirashimishije, harimo ubururu, umuhondo ni imisego myiza, ihagaze neza, hateye neza, harasa neza.

Intebe nziza, ziri muri saro, zirateguye neza, harimo imisego, ni myiza, imeze neza, irashimishije, haratuje, ni heza.

Mu nzu ni heza harimo intebe zisize irangi hariho ameza y'ikirahure arateguye hari amasahani mu kabati ni heza haratunganye harashimishije.

Inzu ndende igeretse kenshi ku muhanda hari amatara araka, hateye ibiti byiza, harasa neza, hubatse neza harakeye.

Inzu nziza ndende ngari etage irageretse isakaje amategura, ni mpande enye haparitse imodoka ebyiri umukara kake ni nziza harashimishije.

Inzu nziza, yubatse neza, irasa neza ifite amatafari ashashe has, ni cadasitere hari imodoka ziparitsemo hagati ni nziza,

Mu nzu ni heza, harasa neza, hari ameza, hateretseho ururabo, ni rwiza, ibara ritukura, iroza, umuhondo, icyatsi, amadirishya, harimo amarido, hari intebe z'amadiva, ni heza.

Muri salo harimo akabati, ameza, intebe hameza neza, harasa neza, harakeye, haratuje, nta bantu barimo ni heza harashimishije.

Abantu baricaye, harimo abagabo, abagore, imbere yabo hateretse ameza, hariho mashini afashe terefone ku gutwi, hari ibara ry'cyatsi, harashimishije, ni heza.

Abantu benshi beza, barahagaze, bambaye neza, karuvate, ikote, ishati baraberewe barasa neza, barashimishije.

Inzu ni nziza, irasa neza, harakeye, hari isuku, hamanitsemo amatara, haracanye, hari abantu bicaye, hasa neza, bambaye neza, imbere yabo hari ameza, haratuje.

Umugabo mwiza ahagaze neza yambaye neza inkweto nziza, ipantaro nziza, ikote ryiza, ishati, afite umusatsi mwiza, hari ameza, hasa neza harakeye.

Kwa muganga ni heza, hari abagabo batatu bicaye, imbere yabo hari ameza, umwe yambaye agapfukamunwa, arasa neza, harimo amabara, atandukanye ni heza.

Inzu nziza ndende irageretse kenshi ni etage, harimo amabara atandukanye, amadirishya ni meza, hari abantu babiri bahagaze, hari esikariye uzamukiraho winjira, haratuje ni heza.

Inzu ni nziza, ni etaje, irageretse, irasa neza, ni ngari, ni ndende, harimo amabara atandukanye: icyatsi, umweru, ni heza.

Inzu ngari, nini, irambuye, igeretse, ni etage irasa neza, harimo amatara, amabara atandukanye, ni nziza.

Igipangu cyiza gisa neza harimo ibara ritukura, hasi ku mutambiko ku idirishya hariho icyapa ku ruhande gitukura hari akantu kariho k'akazeru hagati harimo inyuguti.

Mu muhanda ni heza, harakeye, hateye ibyatsi ku ruhande, hari icyapa, hari amazu maremare, magari, asakaye neza, hariho amatara, ni heza.

Inzu nziza nini iri ahantu heza, yubatse neza, ni ngari, ni etaje, irageretse, irabereye iratuje ni heza harashimishije.

Umukobwa mwiza, asa neza, yambaye neza, araberewe, umusatsi uratukura, atunze urutoki mu mutwe, afite ikayi mu ntoki, hari ibara ritukura, ni heza harashimishije.

Umugabo arahagaze, yambaye neza, ameze neza, umupira w'umukara, uw'umweru, ipantaro ya kake, afite ibitabo mu ntoki, ahagaze mu ibara ry'icyatsi, umuhondo, ni mwiza, arashimishije.

Abagore baricaye bambaye imyenda itandukanye, barasa neza, imbere yabo hateretse udukoko turasa neza, ni umuco mu banyarwanda mwiza.

Inzu nziza yubatse neza, irasa neza, isakaje amategura, hanze hari umukobwa asa neza, yambaye neza, ari guseka, afite umusatsi mwiza araberewe.

Abantu babiri barahagaze, bambaye neza, barasa neza, hari imodoka iparitse, bari kumwandikira, ni heza, harashimishije, hameze neza.

Inzu nziza ndende yubatse neza, irasa neza, ni etaje, harimo amabara atandukanye, umuhondo, ubururu, icyatsi harimo umuntu, imiryango irakinguye, ni heza.

Inzu nziza, ndende, ngari, irageretse, ni etaje, ifite amadirishya meza, harimo amabara atandukanye: umuhondo, ubururu, mu mbuga harimo amabara ni heza, hateye ibiti, hari umumotari haratuje.

Ni isoko rinini iruhande rwayo hari umuhanda, rirasakaye n'amabati ntirirakorerwa isuku; ni mpande ebyiri rimeze neza.

Harimo abantu benshi baje guhaha, bari mu isoko, hari n'ibitoki, harimo ibirayi, harimo abari gucuruza, udufuka tw'udushanda bahahiramo, harimo ibintu byinshi kandi byiza.

Inzu nziza ndende irashimishije, hariho amabati irasa neza, hari icyapa cyanditsemo Mukamira, hari andi magambo adasobanuye, ni icyatsi arasa neza.

Abantu batatu barishimye ni beza umukobwa yambaye itaburiya umupira w'umutuku mu mutwe harimo inweri, ni mwiza arashimishije abagabo ni beza harimo imbuto nziza ziryoshye.

Mu isoko hari imyenda y'amoko yose itandukanye, irazinze iri ku meza, hari umugabo wunamye, umukobwa arahagaze yambaye ingofero, ikanzu, iyindi iramanitse, ni heza.

Hari abagabo bahagaze batatu, bambaye ikote, isengeri y'umweru, umukara harimo ibitenge byiza, amabara y'ubwoko bwose, ubugeni bya gakondo byinshi byiza.

Abagore bicaye mu isoko, barimo gucuruza, bambaye neza barasa neza, baracuruza ibitunguru, inyanya pavulo n'ibindi byinshi byiza bitandukanye, birashimishije.

Imyenda myiza irasa neza ni amabara menshi atandukanye ubururu, icyatsi, umutuku, umweru, hateretse intebe, ni heza, harasa neza.

Harimo ibintu byinshi bitandukanye; inyanya abantu bambaye neza bamwe barutamye abandi bari kwiyumvira harimo byinshi bitandukanye biteye neza bimeze neza.

isoko rinini ririmo ibintu bitandukanye, ibikoresho by'ubugeni, n'ubukorikori by'amabara atandukanye, umutuku; umuhondo; icyatsi kibisi; umweru, ibyibo, ibiseke n'ibindi.

Inzu ya etaje ihagaze neza irageretse kenshi, harimo amabara atandukanye, icyatsi, umuhondo. Hari abantu bahagaze hasi b'ingeri zose, abagore, abagabo, abakobwa bambaye neza.

Hari ibicuruzwa byinshi byiza by'ubugeni kinyarwanda; uduseke, imbehe, inkongoro ni twinshi twiza duteye ubwuzu turashimishije.

Mu isoko ni heza harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo abantu benshi ingeri zose abagore, abakobwa, abagabo, abasore, hari ibijumba ni byiza biraryoshye.

Umukobwa ni mwiza aricaye hagati y'ibyo acuruza hari inyanya, hari indimu, hari ipapayi, harimo ubunyobwa, ibihaza, imineke; yifashe kukananwa ateza igitambaro arasa neza.

Abantu benshi, barahagaze, harimo umwana, abagabo babiri, bari imbere, bafatanye mu biganza, bambaye umupira w'umuhodo harimo ibara ry'umukara, bambaye ikoboyi, ni beza, barishimye.

Akazu ka emutiyene ni keza gafite ibara ry'umuhondo, handitsemo amagambo y'umukara, imbere harimo abantu baricaye barambitse akaboko kumeza, imbere yabo hari umugabo uhagaze, yambaye neza ikote, ishati, ni beza.

Inzu nziza, irasa neza, ifite ibara ryiza, umuhondo, ni MTN, abantu babiri bahagaze basa neza, bambaye neza, baraberewe.

Terefone mu ntoki, irasa neza, n'umukara, irimo ibara ry'icyatsi, hari ibara ry'umuhondo, umweru, harasa neza, haratuje, harakeye, ni heza.

Akazu keza gahagaze neza, gafite ibara ryiza, umuhondo, inyuma hahagaze abantu, imbere hicayemo umuntu wambaye imyenda itukura, ni heza, harashimishije.

Abakozi ba emutiyeni bambaye ingofero bafite icyapa kiriho kode, imbere yabo hari akabati hicayemo umuntu wambaye itaburiya ni beza.

Abantu babiri barahagaze, bambaye neza umugabo yambaye umupira w'icyatsi, ipantaro, ingofero, umukobwa yambaye umupira w'umuhondo arasa neza, arisukishije, barishimye.

MTN harimo abagabo babiri bambaye neza, harimo uwambaye umupira wa MTN w'umuhondo. Ku meza hari igipapuro gishushanyijeho umuntu, bafite telefone bari kuyirebamo umwari guseka undi ntari guseka yari yahateretse mashine ni byiza.

Eyateri imeze neza irakeye ifite ibara ritukura harimo aba mama babiri bambaye neza barasokoje bari guseka bari kureba muri telefone.

Umuntu wicaye arasa neza, afite terefone mu ntoki, harimo ibara ry'icyatsi, afite agakapu yambaye mu nda, yambaye neza, afite ipantaro y'ikoboye, umupira ni heza arashimisha.

Inzu nziza irasa neza isize irange ry'umuhondo, icyatsi, harimo umutu, ni heza hari abantu bahagaze bambaye neza, barasa neza ni heza.

Motari arahagaze yambaye ijire, ingofero, inkweto, afite igikarito mu ntoki, ari kugihereza umugabo uhagararanye, yambaye neza umupira utukura, agapfukamunwa, ipantaro ya kake ni beza.

Moto irahagaze ku ruhande, ku matafari hariho ikarito, vuba vuba irasa neza ibara ry'umutuku n'umukara, purake iriho magana atandatu mirongo ine na gatandatu b irasa neza.

Moto zirahagaze niziza hariho imisego itandukanye, umuhondo, iroze, umutuku ucuye mumuhanda ni heza hateye ibyatsi, hari ibiti, niheza harashimishije.

Moto enye zihagaze hariho ibikarito, hicayeho aba motari, babiri bambaye ingofero z'umukara undi yambaye itukura, imbere hari igipangu gisize irangi ry'umuhondo imbere y'igipangu hari amazu harimo ibiti biteyemo n'iheza.

Ibipupe ni byiza bimeze neza hamanitseho imyenda myiza, amabara atandukanye, umukara icyatsi, ubururu, bucuye ni byiza birashimishije.

Icyapa kiriho terefone ni cyiza, ni umuhondo harimo amabara atandukanye umukobwa mwiza useka neza arishimye mu rukari Rwanda Kigali ni heza harashimishije.

Mu nzu ni heza, harasa neza, harakeye, ni hagari, hateretse ameza asa neza, hari intebe ni nziza, harateguye hameze neza.

Inzu nziza, irasa neza, irarakeye harimo isuku; intebe nziza, umuryango urakinze usize irange ni heza.

Inzu nziza ngari ndende, yubatse neza, isize amarangi atandukanye, isakaje amategura, impande enye hari amatafari hashashe, asize neza, ni heza.

Inzu nziza nini ndende ni kadasiteri yubatse neza, iri imbere mu gipangu cyubakishije amatafari ahiye, hateye indabo, ni heza harashimishije.

Mu nzu ni heza, harasa neza, harimo akabati, karasa neza, karabengerana, ni keza karashimishije, urugi rwigiti rurasize irangi, ni heza.

Mu nzu ni heza harasa neza, hari isuku, harakeye, hari akabati, intebe nziza z'amadiva, hateretse ameza, harateguye, harasa neza.

Inzu nziza ndende isakaje amategura, ni mpande enye, irasa neza, isize irangi risa n'ivu, harasa neza, hari amabuye, harashashe, hasize irangi ritukura, ni heza.

Inzu ya etage, ni nziza irasa neza, ifite urubaraza rwiza, inkingi ifashe urubaraza neza, ni umweru, isize irangi ryiza, hanze hari amatafari ashashe, imbere hari igipangu cy'amatafari ahiye, ni nziza.

Ni heza, ni jalide nziza, itunganije, irikase, hateyemo ibiti byiza, hari ibipangu byiza, harashimishije.

Inzu nziza, irasa neza, ni ndende, irasakaye, ibitwe bibiri, imeze neza, isize irangi, hateye ibyatsi, harasa neza, harashimishije.

Inzu ndende nziza, yubatse neza, ni etaje, isize irange risa n'ivu, umweru, ikirere cyiza, ishashe amatafari ni heza.

Inzu ni nziza irasa neza, ni kadasiteri, yubatse neza, isize amabara atandukanye, biri mu gipangu, hari imifuka iteretse hasi, inyuma y'igipangu hari ibiti bihateye birasa neza.

Inzu nziza, ndende, ihagaze neza, ifite amadirishya, ni etaje, isize irange ritandukanye; umukara, kake, ni heza.

Inzu nziza, yubatse neza, irasa neza, ifite negisi, iri imbere mu gipangu, hashashemo amatafari murugo, igipangu n'amatafari y'impunyu, irasa neza.

Inzu nziza ndende, ihagaze neza, ni heza, harashimishije, hari amatafari yubatse igipangu arahiye, hari umuntu uhagaze ari kuri terefone, harashimishije, ni heza.

Inzu yubatse neza ifite amatafari ahiye ifite amadirishya meza hirya yayo hari ayandi mazu ari imbere mu gipangu inyuma kubaraza hari indabo ziteye zirasa neza.

Inzu eshatu za kadasitire zirageretse ni nziza, hateye pasiparume iri mu gipangu, amatafari ahiye ashashe hasi, ni heza harashimishije.

Inzu nini, ndende, irageretse, ni etaje, irasa neza, iseze irangi ry'umweru, harimo amabara atandukanye, ni ziza, irashimishije.

Inzu nziza ya kadadasiteri irakeye yubatse neza impande ebyiri ni nziza irashimishije hari ibyatsi biteye neza harimo igiti ni heza.

Inzu nziza nini kadasiteri isakaje amategura, n'ipande enye, hasi ishashe amatafari asize irangi ku ruhande, hari indabo harimo ibara ry'umweru, umukara ni heza.

Hari umugabo uri hejuru ku nzu ari gusakara, hari undi uri hasi wambaye umupira w'umutuku n'ipantauro y'ikoboyi. Ari kwinjira inzu ntabwo iratunganywa, nti rakorerwa amasuku. Irasa neza ni igitwe kimwe, yubakishije rukarakara birarakeye.

Ikibanza kiri ahantu heza, haratuje, hameze neza hagurutsemo inzu, nziza yubatse neza, ni amatafari, harimo abafundi, ntiruzura ni heza.

Ni heza haratunganye harimo abantu babiri bahagaze; umwe yambaye imyenda y'umukara m'umuhondo, ipantaro y'ikoboyi harimo amabara atandukanye umutuku ucuye ni heza urashimishije.

Munzu imbere harimo abantu umunani, bambaye neza, barasa neza, baraberewe, imbere yabo hari ameza, harihomo ibitabo, mashini, bahagaze neza, baraberewe.

Inzu ni nziza, imeze neza, ihagaze neza, ni ndende, ni ngari, hasi harimo imyenda imanitse iri y'amabara atandukanye menshi meza, ni heza, harashimishije.

Abagore bicaye neza, bari kumwe n'abana babo, bafite udufishi twa mituweri badushyize imbere bari kutwerekana, bambaye imyenda itandukanye, barasa neza.

Hari abantu benshi bahagaze abandi bari kugenda ni heza haratunganye haratuje harasa neza hari ibara ry'umuhondo harimo amagambo yanditse hejuru rwanda andi ntasobanuye ni heza.

M'umurenge harimo abantu babiri hari umugabo uri kwandika iruhande rwe hari umugore wunamye yashyize akaboko ku meza kamwe gafunze igipfunsi akanda ashinze inkokora yambaye igitenge barasa neza baraberewe.

Abantu babiri bicaye umwe ni muganga undi ni uwaje kwivuza, hari ameza arambitseho ibitabo, afite urupapuro mu ntoki, ari kwandika ,hari ibintu byinshi biharambitse ,ni heza, bambaye neza, baraberewe.

Kwiteganyiriza ejo heza hafasha abamaze gukura, bamaze kugera mu zabukuru, bafasha abana bakazamuka, bakiteganyiriza izabukuru bagezemo.

Icyapa kiza, kimeze neza, abagabo barahagaze, babiri, bambaye neza, barasa neza harimo amabara atandukanye umuhondo, ubururu ni heza harashimishije.

Abantu batatu baricaye, bambaye neza, barasa neza, imbere yabo hari ameza, harambitseho ibitabo, harashimishije, harakeye, harasa neza.

Umugore arasa neza, yambaye neza, ateze igitambaro, yambaye ishati y'igitenge, harimo amabara atandukanye, ejo heza ni ah'akamaro umuntu wese agana, ni byiza.

Inzu yubatse neza ifite amarangi y'umuhondo hirya hari ikigega cy'amazi cy'umukara hicaye abantu benshi, ibaraza rijyayo riratwikiriye imvura iyo iguye ntishobora kunyagira abari kwerekerayo.

Abantu bicaye ntago bagaragara neza, hahagaze umwe, afite mikoro mu ntoki, arasa neza, yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, arasa neza, agasatsi gakeya, arishimye.

Abantu bagaragara neza bambaye ibitenge, haraboneka intoki, zifashe mituweri, udukarita tubiri ak'ubururu, ak'umuhondo, birasa neza.

Umuntu wicaye, arasa neza, yambaye neza, arakeye, afite papuro mu ntoki, ni mwiza, ishati y'amabara atandukanye, ni heza.

Umusaza, umukecuru, bambaye neza barasa neza, ejo heza uzakomeza kubaho neza no muri pansiyo.

Mu kabati harimwo ibintu byinshi bifite amabara atandukanye, ni byiza, abantu barahagaze batatu, bambaye neza, baraberewe, ni heza.

Utubati, turimo amoko atandukanye, ibintu byinshi, byiza, ubuki, foromaje, mayoneze, isabune, ni byiza.

Alimatasiyo irimo ibicuruzwa byinshi, ubuki, ji, foromaje, marigarine, ni byiza birashimishije, birimo neza birapanze.

Arimantasiyo iracyeye imeze neza harimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye: amazi, foromaje, amata, ji, n'ibindi byinshi biyigize. Ni byiza biracyeye.

Mu nzu hahagazemo umuntu, umukobwa wisukishije, yambaye ishati, ijipo y'umukara, agakapu mu ntoki, hari utubati, harimo ibitabo, ni heza, harashimishije.

Mu isoko harimo abantu babiri binjiyemo mbere, umwe ari gucuruza undi yagiye guhaha ari kumuha akajerekani kumuha n'akandi k'ubuto inyuma ye hari indabo zimanitse, imbere ye hari ibintu byinshi cyane by'ibicuruzwa bitandukanye bifite amoko menshi ni byiza.

Mu muhanda harimo imodoka nyinshi zitandukanye amabara, umukara, icyatsi gicuye, ku cyapa hariho ijambo ryanditsemo simba, amatara ari kwaka neza, harabona, ni heza.

Munzu ni heza harasa neza harimo amabara atandukanye, umutuku, hari abantu batatu bahagaze, yambaye umupira, ipantaro, ishati, kumeza hariho mashine n'impapuro ni byinshi byiza.

Abantu batatu bahagaze, umwe yaje guhaha, undi ahagaze inyuma, undi yambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari umufuka, harimo umuceri, harimo isukari n'ibindi byinshi byiza, birashimishije.